Abaturage ndetse n'abayobozi basa nkaho bambaye amakarita y'umweru bari mu nama, bari gufata imyanzuro inyuranye ishobora kugirira abaturage akamaro, bakaba bafite n'amazi yo kunywa.

Ni zimwe mu nama zibera mu biro, aho usanga abayobozi b'ikigo runaka baterana bakaganira ku nyungu z'ikigo, aho bafata ibyemezo bikomeye byafasha kuba byazamura iki kigo.

Aha hakaba asa nk'ahari inama yaba iy'umudugudu, umurenge cyangwa se indi y'ibindi bikorwa, ikaba hari n'umufotozi urimo gufotora ibiri kugenda bihabera muri iyi mbaga y'abantu yateranyijwe.

Abagore bafashe iya mbere mu kujya bitabira inama z'abakuru b'igihugu, aho usanga muri guverinoma yarashyizeho uruhare runini rushinzwe abagore, bakaba babasha kuba bayobora nabo bagafata ibyemezo bikomeye.

Aha hakaba hagaragaza abayobozi mu nzego zitandukanye bisa nkaho bafite ibyo bajemo, bakaba baje mu nama ibahuriza hamwe isa nk'ifitiye akamaro inshingano bashinzwe.

Abamenyesha ashimira abishyura imisoro neza ndetse bakaba nta kibazo bafitanye no kwishyura imisoro. Akaba ari ukwezi ko kwishimira ibyo bikorwa mu bihumbi bibiri makumyabiri na rimwe. Ndetse hakaba imisoro izafasha mu guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Irembo ikigo gisanzwe kimenyereweho cyane mu Rwanda mu gutanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo gufata indangamuntu nshya cyangwa se gusaba kuwayitaye cyangwa se kwaka icyangombwa kikwemera gutwara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita y'urugendo, uburyo rukumbi bwemewe bwo kwishyura urugendo rw'imodoka mu mujyi wa Kigali ni ugukoresha ikarita, akaba ari uburyo butuma abagenzi cg se abatwara ibinyabiziga batibana, akaba ari amamenyesha yatanzwe n'ikigo cyitwa RURA.

Aha hakaba hagaragaza ifoto yashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima, akaba ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe ubuzima, ku rubuga rwabo hakaba hariho ifoto igaragaza ibikoresho byo kwa muganga, ifoto ikaba isa nk'iyafatiwe mu bitaro.

Uru ni urubuga rukaba rugaragaza ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'ibarura, kikaba kigaragaza aho ushobora kwinjira nk'umuntu wari usanzwe ufitemo konti cyangwa se ukaba wakora inshya ukajya ugenzura uko gahunda zawe zigendwa na leta.

Umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga cyangwa se uburwayi, yambaye neza ishati ndetse na karuvati n'ingofero, inyuma ye hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Amamenyesha atangwa n'ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'ibarura cya Rwanda reveni otoriti, kikaba kivuga ngo garagaza imisoro utamenyekanishije mbere ya bibiri na makumyabiri na gatatu, ukurirweho amande n'inyungu z'ubukererwe, itariki ntarengwa akaba ari makumyabiri n'eshatu z'ukwa Cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Urubuga rwa Rwanda foresitiri otoriti. Ikigo gishinzwe amashyamba ndetse, n'umutekano wayo. Aho ugenda ugasoma amakuru abaranga, ugasacinga cyangwa se ugashakisha amakuru uri kwifuza kuri bo, ndetse ukayabona.

Aya ni amamenyesha atangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'ibarura kiburira umunyabikorwa ko agomba kuba yarishyuye kimwe cya kane ya cy'umusoro mbere y'ukotariki mirongo itatu n'imwe z'ukwacumi zigera.

Itangazo cyangwa se amamenyesha atangwa n'ikigo cya Rwanda Revenue Autority; ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro, kivuga ko uyu munsi ariwe deadline cyangwa se ariwo munsi wa nyuma wo kuba wamaze kwishyura imisoro yawe kugira ngo ibikorwa byawe bidahagarara.

Rwanda Renue Aoutrity cyangwa se Rwanda Revene cyangwa ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro, kikaba gitanga ubutumwa kigaragaza ko hari iminsi itatu gusa yonyine ibura kugira ngo babe barangije gukemura ikibazo k'imisoro yawe.

Ubutumwa butangwa n'ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'ibarura, kibwira umunyabikorwa yuko asigaje iminsi itanu yonyine kuba amaze kwishyura umusoro ndetse tariki ntarengwa, akaba ari tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Ibiro bitanga serivisi cyangwa se ubufasha bugiye butandukanye, bikaba bikorera abo bita banki ya Equit ndetse hakaba hari n'aba ejenti cyangwa abafatanyabikorwa ba Eco banki ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Ni imwe mu mapoto maremare azwiho nk'iminara yo mu mabara agiye anyuranye, arimo umutuku, umweru, akaba azitiwe n'utundi twuma, umunara ukaba ukurura konegisiyo.

Furi Wi-Fi zone, aha ngaha bakaba bakwereka ko wahabonera Wi-Fi y'ubuntu cyangwa se itumanaho ry'ubuntu, Wi-Fi akaba ari uburyo wakoresha bidasabye simukadi cyangwa se bidasabye ubundi buryo kugira ngo wakire itumanaho riturutse mu kirere.

Ubu ni uburyo bugaragaza uko wahindura ijambobanga cyangwa se umubare w'ibanga wawe wa itakisi. Cyangwa se uburyo bwo kwishyura imisoro ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Irembo, ikigo k'igihugu gishinzwe gutanga serivisi mu buryo bugiye butandukanye ndetse kandi nyinshi zagufasha, harimo nko gusaba viza, gusaba perime yawe watsindiye, ndetse n'ibindi byinshi, aha akaba ari mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ibisanzwe bizwi nk'umunara, bikaba ari ibyifashishwa mu kohereza amasinyari cyangwa se ubutumwa mu kirere, kugira ngo bugere ku bantu bagiye bitandukanya, akaba ari ibitanga rezo cyangwa se netiwake itumanaho, kugira abantu babashe kumvikana cyangwa kohererezanya ubutumwa.

Amapoto afite insinga zijyana umuriro mu gice cy'ibumoso n'iburyo ndetse no mu zindi nce zigiye zitandukanye, akaba agenda ashyirwa mu midugudu kugira abashe kwegereza umuriro abaturage mu mazu agiye atandukanye.

Mu mijyi igiye inyuranye yo mu Rwanda, aho ushobora kuhasanga amapoto azwiho kuba akoze mw'ibeto, akaba agaburira abaturage ingufu z'amashanyarazi, ndetse akaba anabonesha imihanda mu gihe cy'ijoro.

Kimwe mu byubatse nk'amapoto akaba ari amatara y'umuhanda agenda asangwa mu mijyi igiye itandukanye ndetse akaba akoreshwa mu bihugu byinshi byateye imbere, kugira ngo biboneshereze abantu bafite imihanda yo mu bwoko buteye imbere, kugira ngo bagende babona batagira ikibahutaza.

Imihanda yo mu Rwanda igiye irimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho usanga hirya no hino hari ibyapa byamamariza ibigo bimwe na bimwe, haba harimo umurongo wa Eyateli ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye.

U Rwanda akaba ari Igihugu gisanzwe kizwiho nko kwitwa izina thousand hills cyangwa se mu magambo y'Ikinyarwanda, u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ndetse uyu akaba ari umwe mu misozi isanzwe iboneka mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Amazu agiye anyuranye ya Kigali, agiye yubatse mu buryo butandukanye aho usanga amwe yubatse mu buryo bwa kijyambere, azwiho nka kadasiteri ndetse n'andi magufiya.

Ahazwiho nko midugudu yagiye itera imbere yo mu gihugu cy'u Rwanda aho usanga buri gipangu kigiye gifite nimero, kikaba cyerekana umubare w'ahantu runaka ugaragaza kuri murandasi.

Amapoto ashinzwe gutanga imiriro cyangwa kugenda ahererekanya imiriro, bakaba bafite insinga zigenda zihuzwa n'andi mazu kugira ngo abaturage babone umuriro, ndetse hakaba hatemewe no kwegerwa kuko bishobora guteza izindi ngaruka.

Ipoto kimwe mu bibonwa mu duce tugiye dutandukanye, kuko bifashishwa mu gutanga amashanyarazi, kugira ngo ingo nyinshi zigende zibona ndetse ukaba ubisanga mu ntara ndetse n'Umujyi wa Kigali, bikaba binifashishwa cyane cyane ku isi yose kuko bigirira akamaro ingo.

Amapoto, iri poto rikaba riri ahantu hegereye ibisa nk'amaduka ndetse amapoto akaba ari ibintu bashyiraho insinga bimwe mu bijyana amashanyarazi, kugira ngo biboneshe mu ngo zigiye zitandukanye z'umujyi ndetse mu ntara.

Ipoto kimwe mu bizwi cyane ko bitwara amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye, birifashishwa kugira ngo byatse ingo ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, kuko ubisanga mu ntara, mu mujyi wa Kigali ndetse bikaba byifashishwa no mu bihugu byose.

Ikimenyeweho nk'urukiko, ahaba harimo icyo bita umucamanza, umugizi wa nabi cyangwa se uri gushinjwa ndetse n'umuburanira, aho bafata ingamba n'imba ari izo guhana uwabikoze cyangwa se ari ukumurenganura.

Umugabo muremure ufite umusatsi mukeya asa nkaho wari umunyamategeko, akaba yambaye karuvati ndetse n'ishati akaba yambaye n'ikanzu iri mu ibara ry'umutuku imbere akaba arimo umukara ndetse n'umweru.

Abayobozi bagiye batandukanye mu byo bakora ndetse no mu nzego, harimo minisitiri ushinzwe ubumenyi ndetse na minisitiri w'amasomo ndetse n'abandi baminisitiri bagiye bashinzwe ibintu bitandukanye, harimo abitwa Rose Baguma ndetse Adia Umulisa n'abandi benshi.

Gereza cyangwa se ibisanzwe bizwiho mu gufunga abakoze ibyaha bigiye bitandukanye kugira ngo bagororwe, zikaba ari ingororwa zambaye imyenda yabugenewe y'abantu bose bari muri iyo gereza, aribyo baba bashinjwa gukora iyo baka bari gukora imirimo ya leta iba yarabashinzwe nk'ibihano.

Aha hagaragara ikigo gishinzwe kugorora mu gace ka Nyamagabe, akaba ari gereza ya Nyamagabe ndetse munsi yaho hakaba hari ikigaragaza ko iyo gereza ndetse n'abayirimo bari kwifatanya mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi.

Aha hakaba hagaragara ibinyabiziga bibiri bya polisi y'u Rwanda ndetse n'ubishinzwe, akaba ari we mupolisi uhagaze arimo kubigenzura, akaba asa nk'ugiye kwinjira mu modoka ye agakomeza akazi.

Ikigo gikorera mu Rwanda gishinzwe kuzimya umuriro, bisa nk'aho ari abagabo bari mu myitozo yo kuba bazazimya umuriro ahantu habaye ibibazo bakaba bajya kubatabara.

Mu mihanda inyuranye yo mu Rwanda uzahasanga hacamo ingeri zose z'abantu, haba abanyeshuri, abana batoya ndetse n'abakuru, ukahasanga n'abapolisi bashinzwe guhana abatwazi batwaye batubahirije amategeko y'umuhanda.

Amazu agiye atandukanye, yubatse bya kijyambere hashyizweho uburyo bwo kuba bakwifashisha mu gihe habaye inkongi y'umuriro, ukaba wazimya ukoresheje puderi iza mu gicupa cy'umutuku aho ushobora kuba wazimya inkongi y'umuriro.

Aha hakaba hagaragara ubishinzwe mu bikorwa cyangwa se uwabiherewe ububasha mu kugenzura ko nta mpanuka zibera muhanda cyangwa se mu kugena umutekano mu muhanda mwikoreshwa ry'ibinyabiziga.

Ibinyabiziga bya Leta cg se ibinyabiziga bicunze umutekano mu mijyi igiye itandukanye bigenda bizengurukamo, na byo ubwabyo bikaba bikuburira ku izina rya polisi, ugahita umenya ko ari ubishinzwe mu nshingano, ushinzwe gucunga umutekano akaba ari wemerewe kubitwara.

Umuhanda urimo ibice bisataguye byerekana ahabugenewe h'abanyamaguru ho kwambukira, mu gihe ibinyabiziga bindi biri ku ruhande cg se biri guca mu muhanda bigomba kubahiriza ayo mategeko yawo.

Ibiteganywa muri poroje cyangwag se ibyigwaho mu ntara imwe, akaba iyo ntara ifite imirenge makumyabiri n'umwe, utugari ijana n'ikenda, ndetse n'imidugudu magana atandatu mirongo itatu, bikaba bituwemo n'abantu ibihumbi mirongo irindwi na magana atatu mirongo inani n'umwe.

Mu gihe cy'amatora, perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho yiyamamarizaga, kuba yayobora manda ikurikira, yabaga arinzwe n'abazwiho, nk'abajepe, bahagaze iruhande rwe, mu ishyaka rya efuperi inkotanyi.

Inama rusange y'abategetsi cyangwa se ababishinzwe mu bikorwa, aho baganira ku bijyanye no guteza igihugu imbere ndetse bagakemura n'ibyagiye biteza gusubira inyuma kw'igihugu, bakiga no ku yindi mishinga igomba gufatwa.

Inama imwe mu ziba zigize abantu bakuru cyangwa se abayobozi bakuru bo mu nzego z'igihugu, hakaba hicaye n'uwitwa madamu Jeannette Kagame, akaba ari umugore w'icyubahiro wa Perezida Paul Kagame Nyakubahwa uyobora u Rwanda.

Paul Kagame cyangwa se his excellence Paul Kagame nyakubahwa, akaba ari umenyereweho cyane, akaba amaze manda eshatu ku butegetsi, akaba ayobora igihugu cy'u Rwanda ndetse akaba akunzwe cyane, akaba anabarizwa mu ishyaka rya FPR.

Perezida Paul Kagame umaze kurahira indi manda ya gatatu yo kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse ahagarariwe na Jeannette Kagame umufasha wiwe ndetse n'ubarahirisha ku ruhande, ndetse akaba ariwe wadutabaye ibintu byinshi byagiye biba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

PSD party, Social Democrate ubutabera, ubwisungane, amajyambere, akaba ari kimwe muri demokarasi cyangwa se guverinoma zari zigize u Rwanda mu gihe cya kera, mu byayoboraga igihugu.

Ibinyabiziga, abanyamaguru ndetse n'ibikorwa remezo, hakaba harimo ibinyabiziga bimenyereweho mu gutwara abagenzi mu nce zigiye zitandukanye, akaba ari ibinyabiziga basanga mu mujyi ndetse no mu ntara ariko bikaba bitemerewe kwambukiranya imijyi kubera ko bikora urugendo rutoya.

Abamenyerewe nk'abitwa abanyamagare cyangwa se abanyegare batwara abantu mu duce runaka dutoya, bitarengeje intera runaka kugira ngo bitagira abo bibangamira cyangwa se bibangamira ibindi binyabiziga.

Iri ni gare cyangwa se aho abagenzi bafatira imodoka bajya mu bice bitandukanye bamwe bataha abandi bajya mu kazi, akaba ari amagare agiye ari mu duce dutandukanye mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu bigiye bihagira kugira ngo bifashe abantu kugera aho bifuza, yego.

Imodoka y'ibinyabiziga bine ndetse n'ibindi binyabiziga by'ibiziga bibiri, bimenyereweho nka moto bitwara abagenzi ndetse ik'ibiziga bine kikaba gifite imizigo ikaba inaziritse kandi ifite ikimenyetso kigaragaza ko yikoreye kugira ngo itaza kugira ikibazo bitera mu muhanda.

Mu Rwanda uzasanga imihanda inyuranye izwiho nka kaburimbo, aho ibinyabiziga bica bigiye bitandukanye, harimo ibinyabiziga binini, ibitoya, ndetse bidafite moteri.

Imihanda inyuranye yo mu Rwanda, aho wasangamo utunyabiziga tugiye ari dutoya, bizwiho nk'amapikipiki afite amapine atatu, akora ibijyanye no kuba bakimura udukoresho dukeya tubuvana ahantu hamwe, tubijyana ahandi.

Kimwe mu byapa bisangwa ahantu hagiye hatandukanye kuko byimakaza umuco nyarwanda, harimo abantu babyina nk'aho biswe intore ndetse n'ibiti bitandukanye bisangwa mu mashyamba byo kwamamaza igihugu cyacu cyiza ndetse hakaba hari na pakingi cyangwa ikizwi nkaho bisi zihagarara.

Ikinyamitende cyangwa se ikinyabiziga cy'ibiziga bine, kimenyereweho mu bwikorezi cyangwa se ubwoko bw'amakamyo, kikaba kikorera ibintu bitewe n'uburemere gifite, kikagira ahantu kibigeza maze ubundi kikanabyishyurirwa.

Aha akaba ari mu isangano ry'imihanda, ahagaragara umuporisi cyangwa umushingwabikorwa wo kugenzura nimba umuhanda uri ukoreshwa neza nta mpanuka biri buteze, hakaba hagaragara abagenzi benshi bagenda batambuka.

Uyu ni umuhanda ugaragaza abagenzi bari kuza bajya mu bice bitandukanye ndetse n'abasanzwe bitwa abamotari cyangwa se abashinzwe gutwara abagenzi ku binyabiziga by'ibiziga bibiri

Ikinyabiziga kimenyereweho ku izina rya minibisi cyangwa se tagisi gitwara abagenzi ndetse n'imizigo yabo itaremereye cyane kikaba kigenda mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali ndetse no mu ntara kikaba cyifashishwa no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye.

Umugenzi wambaye imyenda y'umukara uri ku ruhande ahabugenewe h'abanyamaguru ndetse n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa izi kebiyesi kimwe mu byabugenewe cyangwa se mu byamenyereweho mu gutwara umubare munini w'abagenzi.

Umunyegare uri kugenda asunika igare ataryicayeho, kubera ko ibya ahetse cyangwa ibyo afite inyuma yigare rye bifite ibiro byinshi, bishobora gutuma atagenda neza mu muhanda, bikaba byamusabye kurisunika

Imihanda yo mu Rwanda aho usanga amapikipikiye ashinzwe gutwara abantu ndetse ukahasanga n'ubusitani, hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda aho mu mihanda usanga iba isa neza iteye amabengeza.

Nyuma y'uko haje burandi nshyashya cyangwa se ikindi gikorwa bita made in Rwanda, kigamije guteza igihugu cyacu imbere mu bihugu by'amahanga ndetse no guteza imbere isoko ryacu kugira ngo bimenyekane nk'aho ari igihugu cy'u Rwanda bikorerwamo ndetse hakaba hakora ibintu byinshi bikandikwaho made in Rwanda nk'ikituranga.

Cyimwe mu binyabiziga byikorera ibintu bigiye bitandukanye ndetse bikaba bikorera n'amafaranga, kubera iyo mpamvu akaba ari icyinyabiziga cy'ibiziga bine, cyikaba cyigenda mu bice bibiri bitandukanye, gitora ibintu cyikabigeza mu kandi gace ndetse cyikanabyishyurirwa.

Ikinyabiziga k'ibiziga bibiri kimenyereweho nka moto ndetse n'ikindi byegeranye kimenyereweho gutwara imizigo ndetse kizwi ku izina ry'ikamyo, uri hejuru yacyo akaba ashinzwe kumenya ko nta muntu uri buhungabanye umutekano wacyo cyangwa se ibyo gitwaye.

Aha hagaragara ikibuga cy'umupira, cyangwag se ikibuga cyabugenewe gukinwaho umupira w'amaguru, hakaba hagaragara abakinnyi baje mu myitozo, cyangwa se baje mu gukina n'inshuti.

Aha hakaba hagaragaza ikibuga cy'umupira, kikaba kigaragaza abantu bagiye batandukanye cyangwa se abakinnyi baje mu myitozo yo gukina umupira, hakaba hari n'undi uri hanze usa nk'uwiteguye kwinjira mu kibuga akifatanya nabo.

Icyapa kigaragara mu mihanda igiye itandukanye y'u Rwanda ndetse kikaba gikoreshwa ni mu bindi bihugu kubera ko ukimenya wese aba agomba kuba azi no gutwara imodoka kuko abyigira mbere yo kujya mu muhanda, kikaba kibuza buri kimwe cyose muri ako gace.

Aya ni amatara agena imigendere y'imihanda cg se kubahirizwa ,kw'imigendere y'imihanda ukamenya nimba itara ry'icyatsi ryatse ugomba guhagarara, iry'umuhondo ryatse ugomba kwitegura, iry'umutuku ryatse ugomba guhita uhagarara, iry'icyatsi rikavuga ko ugomba guhita ugenda wemerewe kugenda mu gihe amasegonda baguhaye yageze.

keji, gatanu, aveni mu buryo buhinnye, ijana na mirongo inani na gatanu, akaba ari kimwe mu byapa byifashishwa mu kurangira abantu kugira ngo batayoba, cyangwa se bamenye umuhanda waciyemo ngo witwa gute.

Icyapa kigizwe n'ibara ry'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku, kikaba ari kimwe mu byigishwa mbere yuko ubona icyangombwa cyo gutwara ikinyabiziga mu muhanda. Ndetse kikaba kigaragaza ko imbere harimo gukorwa umuhanda cg hari ibikorwa by'umuhanda wangiritse.

Kimwe mu bimenyetso bimenyereweho mu gukoreshwa mu mihanda kandi bikaba bikurwa muri polisi, ukaba ugomba kuba ukizi mbere y'uko ubona uruhushya rwo gutwara mu muhanda, kikaba kigizwe n'ibara ry'umweru umukara ndetse n'umutuku.

Kimwe mu byapa bisangwa mu muhanda ahantu hagiye hatandukanye, kikaba ari ingenzi kuko unacyiga mbere yo kugira ngo ubone icyangombwa kikwemerera kujya mu muhanda ngo utware ikinyabiziga, kikaba kikwereka ko imbere hari umuhanda uhinamye maze ugomba gutwara gakeya.

Icyapa cyangwa se amamenyesha akubuza kurenza umuvuduko wa kilometero mirongo itandatu ku isaha, ndetse akaba ari kimwe mu by'ingenzi wiga mbere yo kugira ngo umupolisi aguhe ikimenyetso cyangwa se icyemeza ko ugomba gutwara ikinyabiziga mu muhanda.

Iki ni icyapa kiburira abakoresha umuhanda gisangwa mu mihanda isanzwe igenderwamo n'ibinyabiziga kugira ngo ibamenyeshe ko imbere hari agahanda gahinamye kamanuka kugira bitondere umuvuduko.

Icyapa kimwe mu bizwi cyane mu mihanda ndetse kikaba cyigishwa mbere yo kubona icyangombwa kikwemerera gutwara imodoka mu muhanda gitangwa n'inzego zibishinzwe za polisi, kikaba kikubwira ko utagomba kurenza kirometero mirongo itatu umuhanda uri kugenderamo.

Kimwe mu byapa bimenyereweho cyane mu kukwereka ibice uri kuganamo cyangwa se bikubwira mu bipimo runaka ngo uraba ugeze mu agace aka n'aka, aha bakaba bakubwira ko mu birometero bitanu waba ugeze aho bita Kigali internaonal airpot ndetse no mu kilometero kimwe na magana biri ukaba ugeze aho bita Kigali convention center cyangwa se Radison.

Ibiti cyangwa se kimwe mu bidukikije bimenyereweho cyane mu gukora akazi kenshi cyane mu gutuma tubona neza, harimo kudukururira imvura, harimo kuduha umwuka mwiza, ndetse bikaba ari byiza ko iyo ukuye igiti kimwe mu butaka uba ugomba gutera nka bibiri, kugirango ngo utangiza ibidukikije.

Kimwe mu bimenyereweho cyane mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu nka banki, ikaba ari uburyo bukoreshwa n'abantu benshi bifashisha mu kugira amafaranga bagira umutekano, iyo akaba ari banki ya Kigali, cyangwa se banke ofu Kigali, akaba ari agace kayo cyangwa icyo bimenyereweho nka buranshi yo mu Giporoso.

Kigali selamikisi, kimwe mu bigo bisanzwe bimenyereweho mu gucuruza amakaro n'ibikoresho by'ubwubatsi, nk'uko ndetse byanditse ku nyubako yabo, bakaba bafite na nimero wabahamagaraho ariyo gatandatu, gatandatu, umunani, umunani, mu gihe ukeneye ubufasha.

Igihugu cy'u Rwanda kimwe mu bimenyero ku izina nka u Rwanda rw'imisozi igihumbi rukaba rugizwe n'intara eshanu harimo umujyi wa kigali, hakabamo intara y'amajyaruguru, iy'amajyepfo, iy'uburasirazuba ndetse n'iburengerazuba iyi akaba ari Kibagabaga imwe mu bigize umujyi wa Kigali.

Mu bigaragara harimo ibimenyetso byo mu muhanda bigaragara, ko ugomba gukomeza imbere ndetse n'ikindi cyerekana ko ugomba gukata iburyo. Mu gihe bibaye ngombwa cyangwa se mu gihe wemerewe kuhakata. Akaba ari ibintu byigishwa mbere yuko uhabwa icyangombwa cyemera ko ugomba gushyira ikinyabiziga cyaba mu muhanda ugatwara.

Ahasanzwe hamenyerewe ku izina rya alete cyangwa se aho abagenzi bafatira ibinyabiziga, cyangwa se amabisi mu zindi ndimi, hakaba ari ahantu ibindi binyabiziga bisanzwe bitemewe guparika igihe kinini, kugira ngo bitabangamira, ibyabugenewe kuhaparika.

Umuhanda wa kaburimbo umeze imihanda igezweho, akaba ari umuhanda uba mu mujyi wa Kigali no mu ntara ndetse ikaba ikoreshwa no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, kugira ngo biringanize umuhanda, umuntu ajye agenda neza cyagwa se ibinyabiziga bijye bigenda neza.

Aha hakaba ari mu ijoro rigaragaza amatara yo ku muhanda ndetse n'amazu ari impande yabyo, hakaba hari ibinyabiziga birimo gutambuka bicanye amatara y'ijoro kugira bidakora impanuka mu muhanda.

Ikinyabiziga k'ibiziga bibiri kimenyereweho nka moto cyangwa se igitwara abagenzi mu duce tugiye dutandukanye, kikaba gikoreshwa mu bihugu bitandukanye harimo nk'u Rwanda, aho i Kigali uzisangamo ndetse no mu ntara ukazisangamo kugira byorohereza abantu urugendo.

Aha ni mu ihuriro ry'imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye aho ubona ibikorwa byari bitandukanye harimo amatara agenga imikoreshereze y'imihanda, harimo ibinyabiziga, harimo ibyapa byamamaza, harimo abanyamaguru n'ibindi.

Ahasanzwe hazwi nk'ihuriro ry'imihanda, aho umuhanda umwe ujya mu gice kimwe, undi ukajya mu kindi maze imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga byajya gutambuka, bikabanza kwatsa icyitwa ikinyoteri cyangwa amatara ndanga cyeyerekezo kugira ngo akate.

Aha hagaragaza imihanda ihererekanya igaragaza ibinyabiziga byinshi bitandukanye ndetse n'amagare nayo akoreshwa mu kujyana abagenzi mu rugendo rutoya rutabangamira ibindi binyabiziga.